Iyi ni iyamamaza old mutual Rwanda isaba abantu gufata umwanya wo kwita ku buzima bwabo, ifoto igaragaza umugabo wicaye ku ntebe asoma igitabo afite igikombe mu ntoki hari ubutumwa bwanditse bugira buti: fata umwanya uhagije wo kwita ku buzima bwawe witegura icyumweru gitaha, hari kandi urubuga oldmutual.rw hamwe na nimero ya wtsapp kabiri ,gatanu, zuzeru, karindwi imani ibiri, rimwe, gatatu, rimwe, gatatu, karindwi, gatanu, gatandatu. bishobora gukoreshashwa mu guhamagara cyangwa' andi makuru.

Iyi ni imodoka nshya mu modoka imbere afitevola igezweho intebe ziracyapfunyitse mu mashashi bityo iyi modoka ishobora kuba itarakoreshwa cyangwa ikaba ikiva mu ruganda, kuhande rw'umushoferi kuri vola rwambaye ibitambaro by'ubwirinzi dashibodi ifite climini yo hagati kandi imodoka ifite imikorere ya digito n'uburyo bwa tacisikirini, amabara y'imbere n'umukara n'umutuku woroheje bigaragaza ko ari imodoka y'igiciro cyo hejuru.